Aba ni abanyeshuri bicaye aho bigira, dukunze kwita mu ishuri mu by'ukuri bari gukurikirana amasomo yabo, aho bigaragara yuko bari kwiga isomo ry'imibare, bose bitegereje imbere ku kibaho.